Ahantu hahuriye abantu benshi nko ku nzu cyangwa ikigo gitanga serivisi z'abaturage, hari imodoka y'imbangukiragutabara, hari abashinzwe umutekano bazwi nka DASSO, hubatswe n'ibidara bya kizungu bizwi nk'amatente, hari n'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Abantu babiri bicaranye umwe ufite telefone mu ntoki w'umumama wambaye agapfukamunwa n'imyambaro y'akazi uri kwandika mu gitabo, n'undi begeranye ku ruhande, umeze nkaho ari we uri kumubwira ibyo yandika cyangwa uri kumuha imyirondoro ye, bari imbere y'icyapa cyanditseho SIDA iracyahari duhaguruke tuyirwanye.

Abantu bagiye kuvoma amazi ku ivomo, bashyize amajerekani ku mugezi barimo kuvoma bafashe mu ntoki kugira ngo babashe gufata amazi bagiye kuvoma.

Abaturage benshi bahuriye ku kigo runaka gitanga serivisi z'abaturage hari umugabo imbere uri kwitaba telefone ufite n'ikarita iranga akazi akora hari idarapo, hari ndetse n'aho bateguye abantu bugama izuba bizwi nka tente.

Inzu nini yubatse hakurya, ifite amabati y'umutuku, n'izindi nyubako ziri hakuno, zubatswe mu buryo bw'inganda, ndetse n'ibiraro biri ku rundi ruhande, byifashishwa nk'ibikorerwamo ubushakashatsi.

Abayobozi bicaye ku meza, baganira bameze nk'abari mu nama, babiri b'abagore begeranye hagati, n'abandi babiri b'abagabo bari ku ruhande, bafite mashini n'undi arimo yandika, imbere yabo hariho n'uducupa tw'amazi.

Abaturage bagiye ku ivoma ry'amazi kuvoma ivomo ryubakiye ririho umukobwa uhakora uvomesha hateretse amajerekani menshi y'abategereje kuvoma amazi yo gutwara mu rugo.

Ikarita y'umukozi runaka w'ikigo, irimo ifoto y'uwo mukozi, amazina ye n'ibimuranga bindi by'akazi akora, bimwe biri mu ibara ry'umweru n'ibindi biri mu ibara ry'ubururu, byandikishijwe umweru.

Umwana w'umukobwa wagiye kuvoma amazi, wunamye hagati mu kiyaga, arimo kuvoma arimo aravomesha ijerekani y'amazi hagati mu kiyaga.

Abana batatu bari mu mazi bafite ibisa n'ibivomesho bagiye kuvoma amazi kugira ngo bifashishe, ibi biba kenshi ku bantu badafite amazi rusange yo ku mavomo cyangwa imigezi.

Umwana w'umuhungu wagiye ku ivomo kuvoma amazi, yajyanye indobo ayitega ku mugezi ariko arongera atega intoki ku mazi arimo kunywa amazi yifashishije intoki.

Abana babiri bagiye kuvoma amazi yo gukoresha, umwe urimo kunyongera mugenzi we kugirango abashe kuvoma wateretseho akabido arimo avomesha, ku ruhande hari n'indi jerekani nayo yo kuvomesha.

Icyumba kiberamo inama, harimo inama y'abayobozi b'u Rwanda, n'Abanyamahanga, hari idarapo ry'u Rwanda n'idarapo ry'Abanyamahanga, bicaye ku ntebe imbere yabo hari imeza ziteretseho uducupa turimo amazi yo kunywa.

Umugabo wagiye kuvoma amazi yitwaje ijerekani, uri ku ivomo ry'aho bavomera, ufashe ku ijerekani usa n'uwunamye areba imbere, yishimye mu maso arimo guseka.

Abagore batatu babiri barimo gufasha mugenzi wabo kuvoma amazi, na we wateretse indobo aho bavomere, arimo gutega amazi, bari kumufasha kuyanyonga kugira ngo abashe kuza avome neza.

Ifoto iriho ikirango cya Unicefu n'umwana mutoya wunamye ku ivomo y'amazi urimo kunywa amazi, hari n'abandi bantu benshi inyuma ye batonze umurongo basa n'abategereje ko avaho na bo ngo banywe amazi muri ubwo buryo, hirya yabo hariho intebe.

Abana babiri bicaranye ku mazi, bameze nk'abashaka kuyanywa, barimo gukaraba intoki, bombi bishimiye gukina n'ayo mazi bariho bashaka kunywa.

Abana batoya bicaye hasi, bahawe ibicuba by'amata, barimo kunywa amata, bayahawe n'abantu bakuru batatu bicaye hafi n'abo bana barimo kuyabaha, n'abandi bahagaze hejuru, bamwe bari gufotora n'abandi bafite mikoro.

Umwana w'umunyeshuri, uri gukaraba intoki kuri kdagira ukarabe imbere y'ubwiherero nk'uko bisanzwe ku muntu uvuye mu bwiherero, agomba gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, niko uyu mwana arimo abigenza.

Abana benshi batoya bahuriye ku mugezi umwe, kandi bose bashaka kunywa amazi barimo kuyabyiganira kugira ngo barebe ko buri wese yabona amazi akoresha cyangwa amazi yo kunywa bitewe n'icyo abana barimo kuyashakira.

Inyubako ya leta yita ku buzima isa neza, irimo abantu imbere ku ruhande hariho puberi ishyirwamo imyanda, imbere hicayeho abandi bantu bari mu nama bisa n'aho ari intebe y'abayobozi, ari abashinzwe umutekano n'abandi bari mu nama.

Abantu benshi bambaye impuzankano hejuru, bameze nk'abicaye mu nama cyangwa muri salle runaka ikorerwamo izindi gahunda z'umuryango cyangwa ikigo runaka, bicaye bameze nk'abategereje cyangwa barimo kumva inama runaka iri kubakorerwa.

Umwana mutoya wambaye impuzankano y'ishuri ufashe ibirahure bibiri mu ntoki by'amazi, ku ruhande hari abandi bana barimo gushungera bamwitegereje bari hakurya y'uruzi, rurimo amazi asa nabi cyane.

Umwana ukiri mutoya uvuye kuvoma amazi wikoreye ijerekani iriho ikirango cy'ikigo gishinzwe kurengera uburenganzira bw'abana yunisefu, n'umugabo umaze kumukorera wishimye bose barimo guseka.

Abana batoya bari mu mazi imbere nko mu kiyaga mu ruzi cyangwa mu iriba, barimo koga ibizwi nko kwidumbaguza bikorwa n'abana batoya, bambaye ubusa barimo kwishimisha mu mazi.

Inama y'ikigo cyitwani unisefu cyita ku bana hari abagabo n'abagore bari mu nama bari kuganira ku ngingo runaka imbere yabo, hari uducupa tw'amazi hari tereviziyo ku ruhande, n'ibindi bari kwifashisha mu nama.

Abaganga babiri barimo kuvura umurwayi, umwe ari kwitegereza mu kanwa h'umurwayi, undi arimo gutegura ibyo ari bwifashishe amuvura, ku ruhande hari n'abandi batonze umurongo na bo bategereje guhabwa serivisi.

Ivomo rihurirwaho n'abantu benshi ariho abana baje kuvoma ndetse n'umumama, bitwaje amabase, ibijerekani abana bari kunyonga kugira ngo bavome amazi.

Abana babiri bagiye kuvoma amazi ku ruzi cyangwa se ku iriba, umwe ni mukuru, undi ni mutoya barunamye barimo kuvoma, umukuru arimo kuvomera umutoya amazi mu ijerekani, umutoya mu kajerekani gatoya k'ane.

Umubyeyi ufite umwana yajyanye kwa muganga, cyangwa kumupimisha ibiro, arimo arapimwa n'umuntu utambaye imyenda y'abaganga, hirya hari umuganga afite ifishi n'ikaramu, inyuma hari n'abandi baturage na bo baje mu gikorwa nk'icyo ngicyo.

Umwana mutoya wagiye kuvoma amazi ufite amajerekani atatu yo kuvomeramo, imwe ayiteretse ku ivomo arimo kuvoma amazi yishimye ku maso ameze nk'umwana wo mu cyaro cyangwa mu giturage kure y'umujyi.

Ikirango k'ikigo gishinzwe kurengera uburenganzira bw'abana ku isi, kitwa Unicef kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'amagambo yanditswe mu ibara ry'umweru nk'uko biba bisa ahantu hose hari icyapa cya Unicef.

Icyapa cy'ikigo cyita ku bana yunisefu, kiriho ubukangurambaga bwo kwigisha abana gukaraba intoki, hariho abana babiri, umwe ari gusukira mugenzi we amazi ku kiganza, agakaraba intoki.

Abaturage bari kuvoma amazi hari abaje kuvoma batandukanye, hari abashungereye, hari amajerekani yo kuvomeramo inini na gatoya karindwi, hari n'abandi bahagaze gusa bafite inkoni, hari n'abandi bari kureba ibiri kuba.

Umwana mutoya wagiye kuvoma amazi yitwaje indobo, arimo guterura arwana nayo kugira ngo ayikorere, hari umugabo uhagaze ku ivomo hejuru ye ufashe ingata yo kwikoreza, bisa n’aho yamuretse kugira ngo arebe ko yakwikorera.

Abantu bameze nk'abari mu mahugurwa cyangwa mu nama, bafite imbere yabo amakaye nubwo atari bose, abandi nabo bafite amazi imbere, hari uhagaze imbere urimo gutanga amabwiriza ufashe ijambo, n'abayobozi bicaye ku ruhande mu ntebe z'ibyuyubahiro.

Abakozi b'ikigo cya UNICEF, bambaye impuzankano hejuru ya UNICEF, hagati yabo harimo umugabo wambaye ishati y'umweru, n'ipantaro y'umukara na karuvati, ndetse kurundi ruhande, hariho n'umuzungu wambaye umweru, umwe.

Abakozi b'ikigo gishinzwe ubutabera bahagaze imbere y'icyo kigo ku mayesikariye, barimo kwifotoza ifoto y'urwibutso na nyuma y'inama cyangwa nyuma y'igikorwa runaka bamaze gukora.

Umuryango wicaye imbere y'urugo rwabo bari kuganira ubona bishimye banezerewe harimo umwana mutoya, abamama batatu, n'abagabo babiri bahuje urugwiro bose banezerewe cyane.

Umuntu wipfutse mu maso wipfukishije agatambaro umeze nk'ufite ibibazo byinshi arimo kurira cyangwa se afite indi mpamvu runaka itamwemerera kureba ibintu runaka birimo kuba imbere ye.

Abamama babiri bicaye ku ntebe y'igiti hanze, umwe ari guhumuriza mugenzi we, afite ikaye yashyize ku bibero, amufashe ku rutugu amuganiriza ku byabaye runaka.

Umwana mutoya, usa n'umwana w'ahantu mu mujyi, wambaye umwambaro w'ishuri, yicaye ku ntebe y'ishuri, imbere ye hariho ameza arimo kurya biswi, arimo kurya anaseka abyishimiye.

Abantu bari mu bukangurambaga bwo kurwanya ihohoterwa, umupolisi imbere yabo ufashe igitambaro cyanditseho kurwanya ihohoterwa ni inshingano yanjye n'undi mugabo uri imbere ye ufite indangururamajwi, arimo agenda avuga ibintu runaka bigendanye no kurwanya ihohoterwa.

Umukecuru wicaye arimo guteka yishimye bisa naho arimo gusonga ubugari kuko afashe umwuko, yicaye no ku gasongabugari hari igikombe iruhande rwe n'inkoko hirya, ari imbere y'inzu ye.

Icyapa k'ikigo cyita ku buzima bwo mu mutwe kiriho ifoto y'umugore wa nyakubahwa perezida w'igihugu cy'uRwanda madamu Jeanete Kagame arimo kugeza ijambo ku baturage, imbere indangururamajwi ndetse ahagaze ku gatuti.

Abantu batandukanye harimo abagore n'abagabo n'umukobwa, bari imbere y'ibitaro byo ku Kacyiru hagati yabo harimo umupolisi bari kwifotoza ifoto y'urwibutso.

Abantu bari gufatanya gutera igiti, nk’uko bigenda iyo hari ubufatanye runaka bugiye gukorwa hagati y'ibikorwa runaka, hakabaho gushyira ibyitwa ibuye ry'ifatizo kuri icyo gikorwa, ni umuzungu ndetse n'abirabura.

Umugabo ufite uburwayi bwo mu mutwe yambaye imyambaro yashaje yacikaguritse ku mavi no mu nkokora, afite umusatsi wamurabiyeho n'ubwanwa arimo kurya umuneke ahagaze mu nzira mu muhanda nyabagendwa.

Ibipimo bigaragaza uko abantu bagiye biyahura mu Rwanda, guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani, uko byagiye bimanuka uhereye icyo gihe kugeza bigeze muri bibiri na cumi n'umunani.

Umubyeyi w'umugore wikoreye igitebo kirimo ibyatsi bimeze nk'imigozi y'ibijumba, afashe isuka mu ntoki ze, ameze nk'umuntu uhinguye atashye iwe mu rugo.

Umurwayi wo mu mutwe wambaye imyambaro yacikaguritse, bidatandukanye no kuba yambaye ubusa, ufite umusatsi washokohotse n'ubwanwa, ari gusuhuzanya n'undi umeze neza bisa n'aho we nta kibazo na kimwe afite.

Abakozi b'ikigo gishinzwe ubutabera bahagaze imbere y'icyo kigo bari kwifotoza ifoto y'urwibutso nka nyuma y'inama cyangwa nyuma y'akazi, hari ku ruhande n'icyapa kigaragaza ibyo bakora mu kazi kabo ka buri munsi.

Ikigo cy'igihugu cyita ku buzima bw'abaturage mu Rwanda RBC na serivisi cyangwa gahunda gitanga ku banyarwanda, byose hamwe byanditse ku gipapuro cyangwa ishusho rigaragaza ibyo bakora byose mu gihugu.

Umurwayi wo mu mutwe wambaye imyambaro yacikaguritse, ufite no mu ntoki imyanda yagiye atoragura, uri imbere y'imodoka, wisize ibintu bisa n'umukara bimeze nk'amavidanje cyangwa ibindi by'umwanda.

Umuntu wanyujijwe mu cyuma kugira ngo barebe ikibazo cyangwa uburwayi afite runaka bwo mu kanwa, arimo amenyo afite mu kanwa hejuru mu gikanka n'ahandi hagaragaza isura runaka yo mu kanwa k'uwo muntu.

Abantu babiri umugabo n'umwana bafashe bombi utudodo mu ntoki zabo, bafatishije amaboko yombi barimo gucisha hagati y'amenyo kuko badakoresha boza amenyo cyane cyane bakura imyanda hagati y'amenyo.

Abantu bambaye imyambaro y'ikigo cyitwa tubiteho, bafite imbere yabo imiti yoza amenyo, umwe muri bo uhagaze urimo koza amenyo bisa n'ubukangurambaga umuntu arimo gukora bwo kwita ku menyo.

Umuganga urimo guha ubufasha umurwayi waje amugana, yitegereza neza mu kanwa niba hari indwara zirimo, wambaye imyambaro yo kwa muganga agapfukamunwa, iniforume na ga mu ntoki, kandi iruhande rwe hari imiti n'ibindi bikoresho runaka byo kwa muganga.

Abana batoya b'abanyeshuri bambaye impuzankano y'ishuri, bafite udukombe tw'amazi mu kuboko kumwe, bafashe n'uburoso mu kundi kuboko bari koza amenyo bifashishije korogate, harimo abafite ibikapu by'amakaye cyangwa ibikoresho byo ku ishuri, bose bari kwigishwa uburyo bozamo amenyo.

Imashini ikoreshwa kwa muganga, hari intebe ku ruhande ifite amapine igenda ndetse hari aho barebera hejuru hameze nka tereviziyo, hari n'itara riri hejuru, ku ruhande hari n'akantu kameze nk'akabati.

Umuntu urimo koza amenyo yifashishije uburoso afite amenyo asa neza y'umweru, nawe ubona ko asa neza nk'umuntu uva mu miryango y'abifite cyangwa ahantu hari ubushobozi runaka ku buryo abasha kwiyitaho neza.

Umuganga uvura indwara z'amenyo arimo gufasha umurwayi yifashishije ibikoresho byo kwa muganga, aryamye ku gitanda na we yambaye imyenda y'akazi, harimo ga zo ku ntoki, agapfukamunwa n'imyambaro y'abaganga.

Umurwayi uryamye kwa muganga ku gitanda n'umuganga ufashe akantu mu ntoki, wambaye imyambaro yo kwirinda ku ntoki ndetse n'agapfukamunwa ugiye kuvura urwaye amureba mu maso.

Umugabo wambaye ubusa hejuru, ufite igitambaro ku rutugu rw'iburyo, afashe akadodo bifashisha boza amenyo hagati mu ntoki, arimo koza amenyo akifashishije.

Abana b'abanyeshuri batoya bambaye impuzankano y'ishuri, hari n'abafite ibikapu by'amakaye, bafashe udukombe tw'amazi mu ntoki, bafite n'uburoso bw'amenyo, bari koza amenyo na korogate.

Umuntu urwaye amenyo wagiye kwivuza kwa muganga, abaganga bamaze kumukura iryinyo rimwe ry'imbere, barifashe mu twuma dukura amenyo, hari umwenge munini w'aho iryinyo ryavuye, abaganga bamaze kurimukura.

Mu kanwa h'umuntu wanyujijwe mu cyuma basuzuma, ikibazo cyangwa uburwayi yaba afite bwo mu kanwa, mu menyo cyangwa mu y'indi myanya runaka yo mu kanwa ishobora gufatwa n'indwara zitandukanye.

Umuntu wicaye asa n'uwegamiye cyangwa uryamye kwa muganga, areba hejuru, areba muganga, amwereka ikibazo afite runaka ku menyo, amutungira urutoki ku ryinyo n'umuganga w'umuzungu, wambaye imyambaro y'akazi ko kwa muganga n'ibikoresho byo kwifashisha amuvura.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga, bareberamo ibisubizo by'umuntu banyujije mu cyuma, gifashwe n'umuganga wambaye mu biganza bye udukoresho bambara kugira ngo batanduzanye nabo bari kuvura, arimo aritegereza ibisubizo by'umuntu urwaye amenyo.

Umugabo ufashe mu ntoki ze akadodo, ako bifashisha bari koza amenyo, ari kukogesha amenyo ye kugira ngo ase neza cyane.

Umuryango munini unezerewe wicaye ku buriri, arimo abagore babiri cyangwa batatu, bose ubona ko ri umuryango umwe kandi unezerewe uhuje mubyo barimo byose.

Umuntu uri mu nzu uhumirije ufashe igikombe, afashe ku munwa yambaye amataratara, n'umuntu mukuru ufite imisatsi irimo imvi, ameze nk'umaze kunywa imiti ibinini.

Abantu babiri bakuru, umwe w'umugabo wicaye mu ntebe zimeze nk'intebe zifasha ababana n'ubumuga batabasha kugendesha amaguru, ari kumwe n'umuganga urimo umufasha amuganiriza kugira ngo abashe kwiyakira mu buzima runaka.

Abaturage bicaye mu nama barimo kumva ikiganiro kiri gutangwa n'undi mugabo wicaye imbere yabo hamwe n'umugore ufashe ku bibero bye, telefone nini zizwi nka tabuleti.

Abantu babiri umugore n'umugabo usa nk'aho akuze, urimo gukora imyitozo afashe mu ntoki akuma bifashisha bakora imyitozo ngororamubiri, arimo kumwerekera anamufasha uburyo agomba gukoramo neza iyo myitozo ngororamubiri.

Umukobwa wicaye warambuye igitambaro mu twatsi twiza urimo gukora siporo ananura imitsi y'amaguru, kugira ngo agire ubuzima bwiza nk'uko tubishishikarizwa mu buzima bwa buri munsi, ni byiza gukora siporo.

Umuryango w'umugabo n'umugore bakuze basazanye kandi bishimanye bari kumwe mu rugo. Umugabo yicaye umugore amuzanira amazi yo kunywa. Umugore arahagaze ari kurebe uko umugabo arimo kunywa amazi.

Umugabo n'umugore baricaranye, bafashe urupapuro, izindi ziteretse ku meza, bashyize inkokora ku meza, amaboko ku meza, umugabo afashe terefone yambaye n'amataratara, bombi bari gusoma.

Abantu babiri bari kumwe mu nzu, umwe ni umugabo mukuru ufashe inkoni yicaye, n'undi w'umugore wambaye imyambaro nk'iy'abaganga n'ikarita imuranga ku mufuka w'ishati, bameze nk'abaganira banezerewe amufashe ku rutugu.

Abagore batatu basa nabakuze begamanyeho, bari kureba muri telefone bameze nk'abifotoza bishimye, barimo guseka, umwe muri bo yambaye umwenda w'umuhondo, ari hagati n'abandi babiri bo ku ruhande bambaye imyenda y'umweru.

Abagore barimo gusoroma icyayi bari kumwe n'undi mugore wambaye imyambaro imeze nk'iy'amasera bafite igitebo bari gushyiramo ikawa barimo gusoroma bishimiye umusaruro wabo cyangwa igikorwa barimo gukora.

Abamama batatu bicaye bitegereza muri terefone yumwe uri hagati, babiri bambaye ingofero umwe n'iy'ibido undi n'ingofero isanzwe, babiri bambaye amarinete, umwe afite ikidongi kiriho urudodo, imbere yabo hari igitabo n'ibindi nk'imyenda iri imbere yabo.

Abagabo babiri barimo gukorana siporo mu nzira, barimo guseka bishimye, umwe wo ku ruhande ufite umupira mu mugongo, bombi bafashe amazi mu ntoki yo kunywa mu gihe baba barimo gukora siporo.

Abagore babiri bicaranye, bari kuganira baseka cyane, umwe yambaye amataratara, undi wambaye amaherena, yifashe kukananwa, bari kuganira, umwe akata imboga, undi afashe igisorori.

Abantu babiri bambaye udupfukamuwa ariko batambaye impuzankano y'akazi bakora barimo kuvura umugore wicaye ku ntebe bamutera urukingo cyangwa urushinge ku rutugu na we wambaye agapfukamunwa ufashe ku nda ufite n'amarinete yashyize ku mwenda yambaye.

Abantu babiri bari imbere y'ikigo runaka barimo kwifotoza ifoto, bose bafite ibiranga aho bakorera bafite amakarita y'akazi, umwe ni umuzungu undi ni umwirabura bishoboka ko byari uburyo kugira ngo bagaragaze imikoranire yabo runaka.

Ni abantu babiri umwe w'umugabo n'undi w'umugore bafite ibimeze nka sheke zihabwa abatsindiye amafaranga mu mikino yo gutombora n'indi nk'iyo ngiyo, bakaba bari gufotora ifoto y'urwibutso.

Abaganga bambaye imyenda ipfuka ahantu hose nk'abavura indwara z'ibyorezo nk'uko byari bimeze mu gihe cya koronavirusi cyangwa mu gihe cy'indwara zitandukanye nka ebora n'izindi ndwara zandura, bambaye bikwije kugira ngo hatagira amatembabuzi abageraho.

Abantu bambaye impuzangano hejuru, harimo umumama umwe ufashe mu ukuboko kwe udukapu tubiri n'undi mugabo hagati nawe ufashe agakapu mu ntoki, bambaye udupfukamunwa bisa naho bari gutanga ubufasha ku bantu runaka.

Igipapuro cyangwa icyapa biriho ibimenyetso by'indwara ya diyabete harimo: kumva umuntu afite inyota, kunyara bya buri kanya, ukumva umuntu ananiwe, kuba nta mbaraga afite n'ibindi bitandukanye biranga iyo ndwara ya diyabete.

Igipapuro kinini kiriho amabwiriza yo kwirinda korona harimo: gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, kwambara agapfukamunwa, gukorora umuntu ashyize inkokora ku munwa, kutegerana n'umuntu uyirwaye, no gushyiramo intera n'ibindi bitandukanye byakoreshwaga mu kwirinda ubwandu bwa Korona virusi.

Umugabo wambaye imyambaro y'akazi, yambaye n'ikarita imuranga mu ijosi, ufashe mu ntoki ze urushinge ari gutera urukingo umugabo uri ku ntebe imbere ye.

Kwa muganga mu bitaro imbere mu cyumba harimo ibitanda biryamikwaho abarwayi, harasa neza harimo isuku hasa umweru n'andi mabara meza afite isuku.

Abaganga bane bari mu cyumba kimeze nk'igikorerwamo ubushakashatsi cyangwa ikivangirwamo imiti runaka, umwe afashe ijage ameze nk'urimo gusuka amazi mu gacupa. Ku ruhande hari undi uri kumwitegereza n'imbere ye hari undi ndetse n'undi mugore uhagaze, wifashe mu mayunguyungu nawe areba ibiri gukorwa.

Inzu nini yubatse mu buryo bugezweho ifite ubusitani bwiza n'inzira, utuyira two kunyuramo twiza dusa neza, ikaba igiye igizwe n'ibirango bijye bitandukanye bisa nk'idarapo ry'Igihugu cyacu cy'u Rwanda.

Kwa muganga imbere mu cyumba harimo igitanda kiryamaho abarwayi, hariho n'imashini yifashishwa basuzuma uko umurwayi ameze na yo ifite ikimeze nka tereviziyo hejuru bareberamo uko umurwayi ameze.

Inzu ikora ubushakashatsi ku miti n'ibinyabuzima yitwa BIONTECH, ikora ubushakashatsi ku binyabuzima n'imiti runaka yifashishwa mu kuvura abantu ibinyabuzima.

Imbere kwa muganga, hari ibikoresho byifashishwa kwa muganga ari byo mikorosikope, hejuru hariho televiziyo n'intebe bicaraho barimo gusuzuma bakoresheje iyi mashini ya mikorosikopi.

Ku kigonderabuzima cya Matyazo, hari abantu bari kuva mu kigonderabuzima mo imbere, iruhande hariho umuhanda harimo abantu barimo kugenda, n'inyubako zo ku ruhande zitanga izo serivisi zo kwa muganga, n'ikigega hejuru gifata amazi yo kwifashisha.

Inzu nini ikorerwamo siporo irimo ibikoresho bitandukanye abantu bifashisha bakora siporo, ibizwi nka jimu, harimo amagare, harimo utwuma baterura bakora siporo n'ibindi bitandukanye bifashisha.

Umwana muto wagiye kwivuza kwa muganga, ari kumwe n'umuganga urimo kumufasha, arimo aramupima. Yambaye agapfukamunwa, afite n'ibimufasha kumva uko umurwayi ameze mu ijosi, bose umwe ni umunyeshuri undi yambaye impuzankano y'akazi.

Umugabo wambaye imyambaro imeze nk'iy'abakozi b'abaganga cyangwa abavuzi bemewe na leta wicaye imbere ku ntebe iri hafi n'ibitanda byo kwa muganga, hari ibikoresho bitandukanye by'imbere ahavurirwa abarwayi.

Iduka ricuruza imiti ivura abantu bizwi nka farumasi ryitwa Goodlife ubwiza n'ubuzima, riri ku muhanda ahitegeye abantu, ku ruhande hari irindi duka ricuruza imyenda, hari ibirango biranga imyenda bizwi nka maneke n'imodoka imbere y'ayo maduka.

Ahantu imbere nko mu ruganda ahabikwa ibikoresho bitandukanye, hari ububiko bw'utubati bwinshi bushobora kubikwamo imiti n'ubundi bushakashatsi bwakozwe ku ngingo cyangwa insanganyamatsiko runaka.

Icyumba gisa neza kiriho amashusho y'ibice by'umuntu by'imitsi n'intebe nziza ziriho ndetse n'akabati kariho ibintu bisa n'imiti n'imashini iteretse ku meza...

Mu bitaro kwa muganga hariho abarwayi babiri barwariye ku bitanda baryamye bafite ibibafasha guhumeka mu mazuru, baryamye bose bagaramye umwe n'umukobwa undi ni umugabo ukuze.

Inyubako nini cyane z'amagorofa zisa neza zubatse mu buryo bugezweho, zegereye umuhanda abantu bari kunyuramo bagenda, hari n'abubatsi bigaragara ko bakirimo kuzubaka zitararangira neza.

Ahantu mu nzu hari intebe zisa neza n'imeza zisa neza, ndetse n'imitako yo mu nzu iri mu tuvaze y'indabyo y'uduti, bisa n'aho ari urugo rwabifite.

Inyubako y'ibitaro by'akarere ka Nyarugenge byubatse mu buryo bwa kijyambere, imbere hariho abaganga babiri bahagaze ku muryango, hari imbuga nziza n'ubusitani bwiza byafasha umuntu wese uhagana kuba yaba ari ahantu heza hafite umutekano ndetse n'umwuka mwiza.

Imbere mu nzu runaka ikorerwamo n'ikigo runaka gikomeye bitewe n'uko harimo gusa, hafite isuku hubatse mu buryo bwa kijyambere kandi bugezweho nk'ahantu hakorerwa ibintu by'ingirakamaro cyane nko kwa muganga cyangwa ahandi hakorerwa ubushakashatsi.

Ni ivuriro ry'abaturage, umuntu yavuga kwa muganga. Hariho abantu batandukanye hari abicaye mu busitani, hari abarimo kugenda, hari uhagaze hari n'abicyaye imbere y'inzu bisa naho bategereje serivise, hari inyubako zitandukanye zitangirwamo iyo serivise, hari ako umuntu ashobora gushyiramo imyanda puberi, hari n'ubusitani bwiza.

Ahantu imbere mu nzu hasa neza hafite isuku hari intebe yicarwaho n'abaje kwaka serivisi, hatangirwa imiti ifasha abantu mu gukora imyitozo ngororamubiri kuko handitseho sport medicine center.

Inyubako y'ikigo nderabuzima cya Gishweru, hari umuganga imbere yayo n'abaturage babiri n'undi wicaye n'undi uri ku ruhande, inzu bigaragara ko ikorerwamo ariko aya masaha nta abarwayi bahari kuko ikinze.

Ahantu imbere mu nzu hameze nk'ahabikwa ibikoresho runaka bikoreshwa n'ikigo runaka cyangwa uruganda, hari utubati tugiye dutandukanye twinshi twifashishwa babikamo ibikoresho byabo bitandukanye bifashisha mu kazi ka buri munsi.

Ni kwa muganga, hari abaganga batatu, hari n'abaturage babiri, umwe aricaye barimo kumuvura, n'undi aricaye arimo arareba ibiri gukorwa, umuganga umwe arimo arandika, undi ari kuvura umurwayi, undi arahagaze arimo kureba afashe ku ntebe, hari n'ibikoresho byo kwa muganga nk'umuti wica udukoko.

Umuganga arimo aritegereza mu mashini zikoreshwa kwa muganga, yambaye impuzankano y'akazi ndetse n'agapfukamunwa, hari ibikoresho bitandukanye harimwo imashini, intebe ndetse n'ibindi byifashishwa kwa muganga.

Inyubako nini cyane nziza yubatse mu buryo bwa kijyambere y'ibitaro, iriho idarapo n'icyapa kivuga serivisi zitangwa n'ibyo bitaro ndetse n'abafatanyabikorwa babyo.

Icyapa kiri hagati mu muhanda kiranga amerekezo y'ahantu hitwa Huye, hirya yaho hariho inzu yubatswe mu buryo bugezweho ifite amabati y'ubururu, imbere hari ubusitani bwiza butoshye.

Inyubako y'ibitaro by'akarere ka Nyarugenge, yubatse neza mu buryo bwa kijyambere bugezweho, isa neza ifite isuku imbere yayo hariho imbuga nziza ngari yo guparikamo cyangwa se kugendamo bitewe n'uburyo umuntu yahagiye ahagana.

Inzu nini cyane imeze nk'uruganda cyangwa ikorerwamo ubushakashatsi, imbere harimo indi nzu yubatsemo irimo ibyumba bitandukanye abantu bakoreramo bakora ubushakashatsi bwabo.

Umuntu ufashe ijage nziza isa neza irabagirana irimo amazi meza y'urubogobogo, ayasuka mu gikombe cy'ikirahure nacyo cyiza kirabagirana gisa neza.

Umugore cyangwa umukobwa wicaye hasi, wambaye imyenda bifashisha bakora imyitozo ngororamubiri (siporo) urambuye amaguru afatishijeho amaboko, usa n'umuntu wakoze imyitozo neza ufite ubuzima bwiza.

Umuntu urimo gukora imyitozo w'igitsina gabo warambuye akaguru ku byuma byo kurinda abantu kugwa mu mazi kuko ahantu arimo gukorera ari hafi n'amazi hirya ye gatoya.

Insimburangingo ikoreshwa n'abantu bafite ubumuga bw'amaguru izwi mu kinyarwanda nk'imbago, ikoreshwa n'umuntu wagize impanuka runaka akavunika amaguru cyangwa atabasha kugenda mu buryo kamere akoresheje amaguru.

Abantu babiri baryamye ku bitanda, n'abandi bantu batatu, babiri barimo kugorora abo bantu baryamye ku gitanda, n'undi muntu, umwe nawe uri ku ruhande urimo kumufasha babagorora imitsi n'izindi ngingo zitandukanye.

Ibikoresho bya siporo birimo umupira w'amaguru n'inkweto zo bambara ndetse na ekuteri, abantu bambara kugira ngo bamenye ibirometero n'igihe bakoresheje, igihe barimo gukora siporo.

Akadege gatoya gatwara amaraso ibizwi nka dorone kari mu kirere karimo kugenda gatwaye amaraso ku bitaro runaka nk'uko bigenda mu Rwanda kuko ari bwo buryo bwashyizweho bwo kwihutisha serivisi zo guha amaraso abantu bayakeneye kwa muganga.

Umuganga urimo ufasha umurwayi uryamye ku gitanda kumunanura imitsi y'amaguru, amufashe akaguru, afata ku kirenge n'akandi kaboko kamwe gafata mu mavi, umurwayi aryamye ku buriri.

Umuntu urimo gukora siporo arambura amaguru afashe ku ivi, akaboko kamwe gafashe ku kirenge bisa n'aho ari umukobwa cyangwa se umugore urimo gukora imyitozo ngororamubiri kugira abashe kugira ubuzima bwiza.

Abubatsi barimo kubaka ibitaro umwe ari ku rwego hejuru undi ari hasi arimo kumuhereza ibyo akoresha yubaka n'undi muntu ku ruhande urimo kwigendera wambaye agapfukamuwa, n'abubatsi umwe uri guhereza uri kubaka hejuru nawe yambaye agapfukamunwa, afite n'ikintu mu ntoki cy'umutuku.

Abagabo bari mu muhanda, bari kwirukanka bameze nk'abari mu irushanwa ryo gusiganwa n'amaguru cyangwa gukora imyitozo ngororamubiri bisanzwe, bambaye imyambaro ya siporo n'inkweto zo gukoresha imyitozo ngororamubiri.

Imbuto zirimo ironji, pome, urusenda, imboga, imetero, utwuma baterura bari gukora siporo n'ikirahure kirimo ji biteretse ku meza byose hamwe nk'ikimenyetso cy'uko umuntu ashobora kubikoresha agira ubuzima bwiza.

Umugabo umaze gukora siporo wambaye mu matwi kuteri, udukoresho tumufasha kumva umuziki igihe ari gukora siporo, arimo kunywa amazi, afashe akanya gatoya arimo kuruhuka anywa amazi.

Igishushanyo kiriho urutirigongo, umusaraba, ikiganza gifashe ku kuboko, umuntu uri gukora siporo asimbuka umugozi n'undi urimo kwirukanka bigaragaza ko umuntu akwiriye gukora siporo mu gihe runaka ngo agire ubuzima bwiza.

Umugabo wambaye isengeri umeze nk'uwaruri gukora siporo urimo kunywa amazi yicaye ubona ko afite umubiri mwiza w'umuntu wawitayeho wakoze siporo ku buryo bwiza buhagije cyane.

Inzu ikorerwamo siporo ibizwi bimenyerewe mu ndimi z'amahanga nka gimu, harimo ibikoresho byifashishwa mu gukora gimu harimo amagare banyonga aho birukankira n'ibindi bifashisha bakora siporo.

Ikarito yo mu bwoko bwa parasitike, ibikwamo amavuta agiye atandukanye, ayo abantu bifashisha bisiga, ndetse n'imiti itandukanye y'amenyo, ndetse na puderi zigiye zitandukanye z'abantu bisiga, banitera.

Abantu batandukanye bari gukora imyitozo ngororamubiri, umwe arimo arinanura, undi ari kwirukanka, undi arimo araterura utwuma bifashisha bakora siporo, abandi bari gukina umupira, abandi na bo barapfukamye bitegura kwirukanka.

Umugabo uri mu nzu kwa muganga wambaye imyambaro y'akazi y'abaganga, ufashe mu ntoki ikintu kimeze nka kasike cyangwa kirinda umutwe, iruhande rwe hariho kizimyamwoto ndetse n'ibindi bikoresho byo kwa muganga.

Umuntu umaze gukora siporo, uri kunywa amazi, ni igitsina gore, yambaye ibimufasha kumenya ibirometero yakoze akora siporo, na ekuteri mu matwi n'akandi kantu yiziritse ku kuboko.

Umuganga uvura indwara yifashishije kunanura no kugorora imitsi, ibizwi nka masage, arimo gukorera masage umuntu uryamye ku gitanda amunura imitsi y'amaguru.

Intebe y'abafite ubumuga bw'amaguru, insimburangingo ihabwa abantu batabasha kugenda n'amaguru izwi nk'akagare, bagenda bacunga cyangwa umuntu ari inyuma arimo kubasunika, igihe bashaka kugira aho bajya.

Umubikira uri kumwe n'umuzungu n'umwana mutoya wicaye hasi, abandi bantu ku ruhande bari ahantu nko mu nzu imbere haryamirwa n'abantu badafite aho baba, nk'abacumbikiwe cyangwa se impunzi ziri gufashwa n'ikigo runaka cy'abagatorike.

Abantu babiri bari kumwe, umwe urimo gukora siporo, undi ameze nk'umutoza we umufasha kuyikora, bose bafashe baro mu ntoki zifashishwa mu mukino wa American football, hari ibikoresho byo bifashisha muri siporo, hirya ku ruhande, hari n'utundi tubati turimo ibindi bikoresho.

Abantu babiri, umwe ni umuganga undi ni uwaje amugana, wicaye mu ntebe, washyize akaguru mu cyuma kimufasha gukora siporo, kurambura amaguru ku bantu baba batabashije gukora siporo mu buryo busanzwe kamere.

Serivisi zitangwa n'ikigo cy'ubuvuzi cya gisirikare cy'u Rwanda, cyitwa Rwanda Miltary Hospital, ziri ku gishushanyo kigaragaza imitangire na serivisi n'ibikorwa bikorwa n'icyo kigo cya gisirikare cyita ku barwayi.

Umuntu wambaye imyambaro ya siporo n'agakoresho gapima igihe yakoresheje arimo kunywa amazi nk'umuntu umaze gukora siporo nyuma yaho arimo kugira ngo agarure imbaraga runaka yakoresheje cyangwa amatembabuzi yamuvuyemo.

Uducupa twinshi n'udukarito bitandukanye bishyirwamo imiti, amavuta n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gukora isuku no kwivura nk'indwara z'amenyo, pomade yifashishwa mu kwikanda, kwibandagura no gukanda imitsi, byose biri ku gishushanyo kiranga imiti runaka itangwa n'ahantu.

Imeza iriho amasahani abiri atandukanye y'umweru, imwe iriho imbuto indi iriho amagi, umugati, inyama, n'ibinyampeke. Kuruhande hariho akantu kaboshye mu buryo bw'intebo cyangwa intara nako kariho imbuto zitandukanye, ku ruhande hariho n'utwuma bifashisha bakora siporo.

Umuntu wambaye imyenda bifashisha bakora imyitozo ngororamubiri, wicaye ku gitanda kimeze nk'ibyo kwa muganga arambije, afashe mu ntoki akantu kameze nka telefone cyangwa imashini arimo yitegerezamo ameze nk'ureba igihe yakoresheje akora siporo.

Ubwoko bw'ikimera cyifashishwaga n'abavuzi kera bavura indwara z'ibisebe kitwa igishokoko hari n'ababyita ibishokoro, kirabye gifite n'imbuto n'amababi atoshye.

Uducupa dusa umweru twanditse mu mabara atandukanye, dushyirwamo imiti cyangwa ibinini bihabwa abantu barwaye indwara runaka, turi hamwe n'ikirahure kijya kumera nk'ijage ku ruhande.

iIcyapa cy'ikigo gikora icyayi kigizwe n'ibikarito bitatu bitandukanye biteretse ku ntebe ikozwe mu ngiga y'igiti, bigaragaza ubwoko butandukanye bw'icyayi ibi bikarito birimo.

Ibinini biri mu ibara ry'icyatsi, bimwe biri ku ruhande ibindi biri mu kantu kameze nk'umwuko cyangwa imbehe, byifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye abantu barwara.

Abantu batandukanye bambaye impuzankano y'ubururu hejuru, bari kumwe n'abandi bagabo babiri bisa naho ari abayobozi babasuye, bari ahantu hateye icyatsi k'igikakarubanda.

Icyapa kiriho uducupa tubiri tw'umweru turimo amabara yenda gusa n'umutuku, kamwe gatoya n'ikindi kinini gishushanyijeho icyatsi cy'igikakarubamba, bisa nkaho ari uducupa turimo imiti ivura abantu, kuko ni icyapa cyanmbitseho imyune herifu.

Ni agacupa gatoya keza k'umweru karimo amabara y'umukara n'umuhondo, kajyamo imiti ihabwa abarwayi kwa muganga, kifashishwa n'abaganga batanga imiti.

Uducupa dutandukanye dushyirwamo imiti ivura abantu, turi ku cyapa cyangwa itangazo ry'ikigo runaka rishyirwa ku irembo cyangwa ahandi hantu haranga aho iryo vuriro riba rikorera, cyane cyane amavuriro ya gakondo.

Icupa ryiza rikozwe neza kimwe n'amacupa ashyirwamo inzoga ryanditsweho foreva bi hani, bisobanuye ko ari icupa rishyirwamo ubuki bw'inzuki.

Itangazo ry'ubuvuzi bushingiye ku bimera, biri mu mavaze atandukanye, adasa mu mabara, umukara, umweru, umutuku w'ikigina, bigaragaza ibiti na byo bitandukanye biri muri ayo mavaze.

Agakombe keza k'umweru gateretse ku gasahani na ko keza k'umweru, agasahani kariho amaronji cyangwa indimu bakatiyeho n'agakombe karimo umutobe wabyo, tangawizi ku ruhande n'indimu idakase n'akandi gasorori kandi kari ku ruhande.

Ikimera cyifashishwa n'abaturage bivura indwara z'inzoka, kizwi nk'igicunshu, gikoreshwa cyane cyane n'abantu batabonye uburyo bwihuta bwo kujya kwivuza kwa muganga.

Ikirango cy'ikigo gitanga ubuvuzi cyangwa gicuruza imiti cyitwa Akagera medisinizi, kimanikwa ahantu runaka nk'imbere y'ivuriro cyangwa ku byapa biranga icyo kigo aho gikorera.

Ishyamba ry'ibiti bitoya byiganjemo ibyatsi n'imiti ivura, harimo umuti w'umuravumba warabye n'utundi twatsi turi ku ruhande tuwukikije n'indabo zawo z'umweru.

Icyapa kiriho imiti, ishusho y'umuntu w'umujyanama w'ubuzima n'imirire, utanga imiti abantu bifashisha kugira ngo bave mu mirire mibi ndetse n'iyo miti ubwayo itangwa n'uwo muntu.

Ikimera cyitwa tangawizi gikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye hari igikase n'ikindi kimeze uko gisanzwe kimeze mu buryo bwacyo bwa kijumba nk'uko kiba giteye niyo kiri mu butaka.

Agasekuru gatoya gateretse hagati y'imiti ndetse n'umuhini uteretse hagati mu gasekuru, bifashisha basekura imiti ya Kinyarwanda, iyo miti na yo iri hasi aho ako gasekuru gateretse.

Uducupa dutandukanye, turi mu mabara y'umweru atandukanye mu byanditseho kuko bimwe ni ubururu, ibindi ni icyatsi, tumwe tumeze nk'udushyirwamo imiti imeze nk'iy'amenyo, akandi ni agacupa gasanzwe ndetse n'agakarito, byose bishyirwamo imiti ikorwa mu bimera kuko hari n'ibiriho igikakarubamba.

Icyatsi cy'umuravumba kiri hagati mu bindi byatsi bifite uturabo twiza tw'umuhondo, cyifashishwa bavura abantu barwaye indwara zo mu nda cyane cyane kigakoreshwa mu gutanga ubutabazi bw'ibanze n'abavuzi ba gakondo cyangwa abaturage.

Uducupa tubiri turimo imiti yose ikoze mu gikarubamba, tugaragara nkaho ari utw'imiti gakondo ivura abantu hifashishijwe ibimera cyangwa se ibyatsi.

Ni imiti yifashishwa mu kuvura abantu mu buryo bwa gakondo, harimo tangawizi, harimo tungurusumu, n'indi igiye itandukanye, abantu bifashisha kugira ngo bivure bitarinze kujya kwa muganga.

Icyatsi gisa n'igiti cy'umusave cyameze ku ruzitiro ku giti bahashinze gitoshye, kimeze nk'aho gishinze mu butaka ariko cyafashe ku giti cyatewe ku ruzitiro rw'inzu cyangwa rw'urugo.

Igihingwa ngengabukungu cyitwa ikawa, harimo umugabo urimo gusoroma ikawa, asa n'uraramye areba hejuru nkuko n'abandi bose babigenza iyo barimo gusoroma ikawa, kuko ari igiti gikura kikagera hejuru ndetse cyane rimwe na rimwe.

Ibikombe bisa neza cyane by'ibirahure byashyizwemo ibyatsi bisa n'aho ari umuti birimo n'amazi yahinduye isura atari gusa nk'amazi asanzwe asa, bimeze nk'aho ari umuti bakoreye umurwayi.

Umuti woza amenyo bifashisha bakorera isuku mu kanwa, ukozwe mu kimera cy'icyatsi cyitwa igikakarubamba witwa Foreva Burayiti Tufugeli, ukoreshwa kugira ngo abantu bakorere isuku amenyo mu buryo bwiza.

Ikimera cyameze hagati mu byatsi cyangwa kimeze nk'aho cyasasiwe giteye nkumusave kimeze nk'aho gikoreshwa mu bintu runaka bifite akamaro bitewe n'ukuntu kitaweho kiria hantu heza.

Ikimera kivura mu buryo bwa gakondo kitwa igicunshu, gikoreshwa n'abantu barwaye inzoka zo mu nda cyangwa izindi ndwara zifata mu nda gikoreshwa batarinze kujya kwa muganga.

Icyapa k'ikigo kivura indwara zerekeranye n'umuryango, ku bashakanye babana batabasha gutera akabariro ndetse no gucika intege muri icyo gihe, hariho icupa ririho umuti uvura ibyo byose ndetse n'abantu babiri bari inyuma basa naho bagiranye ikibazo ku bigendanye na gahunda zo kubaka urugo.